Inzu nziza cyane ifite amarido meza, irimo intebe zitandukanye, ameza atandukanye, ateretseho ibintu bitandukanye nk'amazi yo kunywa, abantu bo mu nzego zitandukanye bahuriye hamwe mu gikorwa cy'inama.

Ibiro bitangirwamo ubufasha mu bijyanye na gahunda za Leta harimo mudasobwa, insinga, ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibishinzwe gucapa ndetse n'umuntu ari gukoresha ibyo bikoresho.

Ububiko butandukanye burimo ibitabo bitandukanye bitewe n'ibyiciro birimo ndetse n'imyaka. Umudamu ari gucagura ibijyanye n'impapuro yaba akeneye, ziri mu gitabo runaka.

Inzu irimo ubwoko butandukanye bw'imiti, irafunguye harimo amayetajeri, ifite amakaro y'umukara, hanze hari irange ry'umuhondo ndetse hari n'ikizwi nka kizimyamwoto.

Umugabo uhagaze hagati mu mbaga y'abantu benshi, ibizwi nka gacaca, akurikiranyweho, ibirego runaka, uruhare yagize muri jenoside, hari abayobozi bicaye, bafite ameza bari gukurikirana ibirego bye, ndetse n'abandi baturage baje kumva urubanza rwe.

Imwe muri gahunda ya polisi ifasha abaturage kumenya uko barwanya inkongi y'umuriro, hari ameza ateretseho gazi n'isafuriya mu gihe hazamutse umwotsi, ushinzwe kuzimya yifashishije igitambaro cy'amazi kugira ngo ahite akumira uwo muririro utaragera kure.

Inyubako ya leta umuryango mugari ufite inzugi ziriho ibirahure ndetse n'amadirishya, hanze yaho hari intebe ndetse hari imbuga y'amapave.

Inzu iri kuberamo gahunda ya leta y'amatora, harimo imitako igaragaza umuco wa kinyarwanda, indabyo, mugabo uri gutora ndetse n'umudamu nawe utegereje gukurikiraho.

Umuhanda, urimo ikamyo, itwaye ibikoresho by'ubwubatsi, harimo abantu babiri batwaye, hari utuyira tw'abanyamaguru, hari umugabo uri guca muri ako kayira, inyuma yayo, hari abandi bantu bari gupakira imifuka mu modoka.

Ubwoko butandukanye, bw'ibinyabiziga nka dayihatso bacani, byifashishwa mu gutwara imizigo, cyangwa se kwimura abantu. Umuhanda mugari, iri kunyuramo.

Umuhanda uri kunyuramo igare ry'umuyonzi, uri kuricunga atwaye imizigo, igikamyo cya rukurura, amabisi atwara abagenzi, umunyamaguru uri kugenda, ubusitani bwiza cyane bugizwe na jaride ndetse n'ibiti.

Inyubako igeretse ifite irange ry'umweru, amadirishya menshi atandukanye, impande yayo hari insinga zijyana amashanyarazi, hasi hari imodoka z'ubwoko butandukanye, ibyapa biranga ibikorerwa muri izo nyubako, umuhanda ndetse n'abantu bari gucamo.